Ikigo gitanga ubwishingizi bw'ubuzima ahangaha uramutse ukeneye ubwishingizi bw'ubuzima waza bakiguha ubundi ukabaho wizeye neza ko ubuzima bwawe bushinganishije ahantu runaka hatandukanye.

Iki ngiki ni ikigo cy'ubwishingizi, ahangaha barakubwira bati ubwishingizi bw'amatungo, ahangaha barakubwira bati itanga indishyi zikomoka ku masezerano y'ubwishingizi bw'amatungo. Aha ngaha haratwereka urupapuro rwari ruriho amafaranga barimo baraha umuntu rwariho amafaranga ibihumbi magana abiri na makumyabiri na bitanu.

Ikigo gitanga ubwishingizi kirakubwira ati "kuki ukwiye gukorana natwe mu bwishingizi?" Ubaka ahazaza hawe mu cyizere cyinshi, ungukira mu bushobozi ntarengeranywa. Aha ngaha wabahamagara kuri izi nimero uramutse ukeneye ibindi bisobanuro, kabiri gatatu, kabiri gatatu.

Aha ngaha ni mu kigo gitanga ubwishingizi, bavuga bati ukenera kubika amafaranga cyangwa se ukagira iwawe ku giti cyawe ku buryo butandukanye. Aha ngaha waza ukabaha ubwishingizi bwawe, ukaba wakishinganisha.

Uyu nguyu ni umwe mu bakozi b'ikigo gitanga ubwishingizi aha ngaha arakubwira ngo temberana ubwishingizi bukugoboka mu gihe cy'akaga cyangwa mu bihe by'akaga.

Iki ngiki ni ikigo gitanga ubwishingizi, ahantu hari icyapa cyanditseho ukeneye ubwishingizi? Hakaba hariho n'ikinyabiziga mu mu gihe ukeneye ubwishingizi bw'ibinyabiziga byawe ukeneye ubwishingizi bw'ibikorwaremezo byawe n'ubundi butandukanye, aha ngaha bagufasha.

Iki ngiki n'ikigo gitanga ubwishingizi, harimo bamwe mu bakozi b'icyo kigo hakaba hashobora kuba harimo n'abafashe ubwo bwishingizi, aha ngaha rero shinganisha umuryango wawe, ushinganisha imitungo yawe yose ubundi ubeho ushinganye kandi utekanye.

Iki ngiki ni ikigo kikubwira ngo ungukirwa, uko urushaho guhahira no kunywesha ikinyabiziga cyawe esansi kenshi, mu bafatanyabikorwa bacu batandukanye, ni nako urushaho kongera amahirwe yo kubona ubwishingizi, nta kindi kiguzi utanze, aha ngaha niba ufite ikinyabiziga, wajya ugenda ukanywesha, ubundi bakazaguha ubwishingizi nta kindi kiguzi.

Ahangaha barakubwira ngo uyu munsi wuharire kwiyitaho no kuruhuka, hakaba hari urubuga rwabo ndetse na nimero wabandikira ku mbuga nkoranyambaga zabo ikimenyetso cyo guteranya magana abiri mirongo itanu, karindwi umunani umunani gatatu rimwe gatatu karindwi gatanu gatandatu.

Iki ngiki ni ikigo gitanga ubwishingizi, kirakubwira kiti, mukiriya wacu uri uw'agaciro kuri MUA, dufashe uyu mwanya ngo tubashimire icyizere mukomeje kutugirira, no kuba mwarahisemo gukorana natwe, tubifurije icyumweru cyiza cyahariwe abakiriya ubundi.

Iyingiyi ni sosiyete y’itumanaho, babakwereka ibyo wakoresha byose bikorohera bijyanye n’amafaranga: kuyabika, kuyabikura, kwishyura ibintu bitandukanye, kwishyura umuriro, no kwishyura amazi. Iyingiyi itumanaho ribishinzwe.

Ubu ni uburyo bwo kohereza cyangwa kohererezwa amafaranga biciye kuri murandasi ukoresheje telefoni ngendanwa, aha ngaha ushyiramo amafaranga ukaba wayoherereza ahandi cyangwa se wayakoresha ibindi bikorwa bitandukanye.

Ahaha kuri banki barakwereka uburyo ibintu wajya ubikora, aho wishyuye yaba inzu cyangwa se ibindi, umushahara wawe w'ukwezi uba ugomba guhembwa n'ibindi bintu wagiye uhaha hirya no hino hatandukanye.

Iri ngiri ni iduka ryiza rinini riteguye neza wasangamo imyambaro y'ubwoko bwose wakwifuza kugura. Aha ngaha uramutse ukeneye kugura imyambaro myiza waza ukahahahira ubundi nawe ukambara neza ukaberwa.

Iri ni iduka ricuruza imyenda itandukanye n'udutambaro two mu mutwe imyenda y'abakobwa, imyenda y'inkumi y'abamama, amakanzu meza, ahangaha uramutse wifuza kugura imyenda rwose waza ukahagurira ubundi nawe ukambara ukaberwa.

Iduka rinini rigari ryo kuguramo imyenda myiza, wakwambara uri umuyobozi, wakambara uri umukuru w'igihugu, imyenda myiza yiyubashye kandi igezweho, amakote meza abafite amakwe ,abafite ibirori bitandukanye n'abandi bayobozi.

Iri ngiri ni iduka ricuruza inkweto y'amoko yose amabara agiye atandukanye meza wakishimira inkweto zo kujyana ahantu henshi hagiye hatandukanye, yaba izo kujyana mu myitozo ngororamubiri, yabo izo kujyana mu biro, izo kujyana mu birori na handi hantu henshi hagiye hatandukanye waza ukazihagurira.

Iringiri ni iduka ririmo ibintu byinshi bitandukanye iby'ubugeni, ibyo kudoda, ibyo kuboha, iby'imyambaro, ahangaha uramutse ubikeneye niho waza ukabisanga, ubundi ukabigura, ukagenda ukabikoresha.

Iri ni iduka ry'abanyamideri wasangamo ibintu byinshi bitandukanye nk'amapantaro meza, imipira myiza ndetse n'ibikapu, imyenda y'abagabo, imyenda y'abasore n'indi myenda yose itandukanye.

Iri ngiri ni iduka ricuruza ibintu byinshi bitandukanye, ubwoko bw'imyenda itandukanye, iy'abakobwa cyangwa se iy'abamama, bacuruza imitako myiza yo gushyira mu nzu, inzu yawe igakomeza igasa neza kandi ikarabagirana.

Iii ngibi ni iduka ryiza rinini cyane wasangamo imyambaro y'ubwoko butandukanye, inkweto z'ubwoko bwose, ukeneye kwambara neza ukaberwa ngaha ahantu wagenda ugahahira, ubundi ukambara ukagenda nyine ku buryo umuntu wese akavuga ati aha ni byiza.

Ukayicuruza imyenda imyambaro myiza waba uwari umuntu uwo ari we wese mu ngeri zitandukanye wabura umusore wababura umupapa uwo ari we wese ahangaha ashobora kuhaza akahasanga imyambaro myiza wagura ukayikunda.

Ahangaha niho wasanga ibikoreshoi bitandukanye, amashusho yo kumanika mu nzu, imitako itandukanye, ndetse n'ibintu by'ibohero bigiye biboshye wakwifashisha gutuma inzu yawe isa neza.

Iri ni iduka ricuruza imikufi myiza yo kwambara mu ijosi, amakanzu meza ,imitako myiza yo gushyira mun nzu inzu yawe ikagaragara neza ku buryo umuntu wese ugusuye abona ko hasa neza nawe wambaye ibindi bituma ugaragara neza imbere yabantu.

Iri ni iduka ryiza rinini kandi rigari ricuruza imyambaro myiza waba uri umunyamideli cyangwa se imyambaro wakambara ujyanye ahantu henshi hatandukanye ahiyubashye cyangwa se muri siporo n'ahandi hantu henshi .

Imodoka wahahiramo ibintu byinshi byiza bitandukanye uramutse ukeneye ibirungo byo ushyira mu mafunguro, uramutse ukeneye ibyo kunywa bitandukanyeza ukahahira byose wabihasanga byinshi.

Ibi ngibi niduka bikwiza ibintu akenshi baba badoze mu bintu bigiye bitandukanye, ahangaha ni ibikapu bidoze mu myambaro cyangwa se mu byo twita ibitenge.

Iri ngiri ni iduka rinini rigari, wahahiramo imyenda y'abantu bakuru n'inkweto ndetse cyane cyane imyenda y'abana n'ibikinisho by'abana batandukanye wabibagurira.

Iringiri ni iduka wasangamo ubwoko bwinshi bw'inkweto butandukanye, inkweto zo kujyana mu birori, inkweto zo kujyana ahantu hatandukanye hiyubashye ndetse n'ahandi hantu henshi ushobora kujya ku buryo bigusaba ko ugaragara kuba usa neza.

Iri ngiri ni isoko rinini kandi rigari ricuruza ibinyabiziga bigiye bitandukanye, aha ngaha ushobora kuba ushaka ikinyabiziga cyo kugura, cyo gutemberamo cyangwa se cyo gukoresha akazi ni aha ngaha wayibariza.

Iki ngiki ni kigo cy'Akagera kizwiho gucuruza ibinyabiziga by'ubwoko bwinshi butandukanye, aba ngaba bashobora kuba bamwe ari abaguzi abandi ari abakozi b'ikigo bamaze guhahirana.

Ikingiki ni ikigo kitwa Akagera gishinzwe kugurisha ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye. Ahangaha hari ikinyabiziga kinini kandi kirekire gitwara imizigo cyambukiranya imipaka. hakaba n'ibinyamitende, amapikipiki nabyo barabigira.

Ikinyabiziga cyiza, cyo mu bwoko bwiza bugezweho, gishobora kuba cyagufasha mu ngendo zawe za buri munsi, mu kazi kawe ka buri munsi. Ahangaha bakaba babicuruza, uramutse ukeneye kukigura nawe wahaza ukakigura ubundi ukamera neza.

Iki ngiki ni ikigo cyitwa akagera. Uyu nguyu ni umwe mu bakozi b'ikigo. Iki kigo gicuruza ubwoko bw'ibinyabiziga bitandukanye; ibinyamitende n'amapikipiki, n'ibindi byinshi, ibinyabiziga by'ibiziga bine, ibinyabiziga byinshi bitwara imizigo, n'ibindi wakoresha akazi.

Ibi ngibi ni binyabiziga byiza byo mu bwoko bugezweho, byitwa yundayi, aha ngaha uramutse ukeneye kugura ikinyabiziga, ushobora kuba waza ukakigura, ikinyabiziga kiza kigenda neza kandi kiba gikeye cyo kugendamo.

Iri ngiri ni isoko ry'ibinyabiziga, aho usanga ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye byo kugura, uhasanga ibinyabiziga byo kugendamo ugiye mu kazi, ibinyabiziga byagufasha gutwara imizigo, n'ibinyabiziga byagufasha mu kazi kawe.

Ahangaga baratwereka ubwoko bw'imodoka izi ni imodoka nshya zigezweho bakakubwira izina ryayo ririya riri hariya ko ari iya bibiri na cumi n'icyenda urumva bibiri na cumi n'icyenda ni vuba hakaba hari amafaranga angana na miliyoni cumi neshantu.

Ikingiki ni ikigo kizwi nk'akagera gicuruza ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye no ku bantu b'ingeri zose. Aho hafi turabona abantu b'abanyamahanga, bashobora kuba bari bamaze kugura ikinyabiziga ubundi bagafata ishusho.

Ishusho yo mu kinyabiziga mu ntebe zo mu myanya y'inyuma ahangaha bakaba bacuruza ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye ukaba waza kugura ikinyabiziga cyo gutemberamo wowe n'umuryango wawe wowe n'abawe uba wakifashisha ugiye mu kazi bitewe n'aho ukorera n'indi mirimo myinshi itandukanye cyagufasha.

Iyngiyi ni inyubako iri ku kumuhanda iburyo bw'umuhanda mu gihe uzamuka ujya kuri SONATUB bakagaragaza ko bacuruza ibinyabiziga by'amapine ane byo mu bwoko bushya bugezweho wagendamo ukagitembereza, ukishimana n'abawe cyangwa se n'umuryango wawe.

Ahangaha niho wasanga bacuruza ibinyabiziga by'ubwoko bu butandukanye wakenera mu kwifashisha mu ngendo zawe za buri munsi. Ibingi biri hano n'ibinyabiziga bitwara abantu gusa bidatwara imizigo uramutse ugikeneye waza ukaba.

Iki ngiki ni ikigo cyitwa Akagera gicuruza ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye, ibinyamitende, amapikipiki n'ibindi bitandukanye ibinyabiziga byiza byo gutemberamo byo gukoresha akazi bitwara imizigo aha ngaha niho wabisanga.

Iki ngiki ni ikigo cy'Akagera gicuruza ibinyabiziga, aha ngaha bacuruza ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye, ibinyabiziga bitwara abantu gusa, ibinyabiziga bitwara imizigo, amapikipiki, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, waza ukeneye ikinyabiziga ukakihagurira.

Aya ngaya ni amafaranga y'u Rwanda, ni amafaranga angana na magana atanu y'amanyarwanda, akaba ari banki nasiyonali y'u Rwanda, aha ngaha baravuga bati: itegeko rizahana umuntu wese uzigana iyi note, ugerageje kwigana gukora amafaranga baraguhana.

Aya ngaya ni amafaranga y'u Rwanda, ubona ko handitseho banki y'u Rwanda, amafaranga angana n'igihumbi, hakaba hariho imwe mu nyamaswa tuba dufite muri parike, mu Kagera, n'ahandi hatandukanye.

Aya ngaya ni amafaranga y'u Rwanda twakoreshaga hambere, iyi ngiy ikaba ari inote y'ijana, ubona ko handitseho banki natiyonari y'igihugu cy'u Rwanda, aya ngaya waba wabasha kuyakoresha ukagenda ukayahahisha.

Aha ni uruhererekane rw'amafaranga ashobora kuba yararimo arayatanga ngo bayamubikire kuri konti yiwe, cyangwa se hari ibintu ari kwishyura bigiye bitandukanye cyangwa se akaba aba ayazanye kugirango yizigame mu bihe biri imbere.

Iki ngiki ni igikoroto cy'u Rwanda iki ni igikoroto cy'icumi cyanditseho banki nkuru y'u Rwanda ni amafaranga y'u Rwanda akoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda n'ubungubu aracyakora uramutse uyafite wemerewe kujya kuyahahisha.

Uyu nguyu ni umuyobozi w'ahantu hatandukanye, bakora intego n'icyerekezo, hakaba hari n'umuntu uri kumusaba ubufasha bugiye butandukanye, ubundi akamufasha, abanyarwanda barafashanya kucyo waba ukeneye.

Ayangaya ni amafaranga y'u Rwanda yanditseho banki nasiyonari y'u Rwanda akaba ari amafaranga ijana ayangahe yakoreshwaga ku bw'ahambere yari inoti y'ijana.

Ubu ni uburyo bwo gukoresha amafaranga y'amanyamahanga, ahangaha barimo barayabara bakifashisha n'imashini zabugenewe zibafasha kubara amafaranga kugira ngo batibeshya niba hari abayabikije cyangwa se abayazanye ibintu bigende neza.

Ubu ni uburyo bwo gukoresha amafaranga igura n'igurisha ry'amafaranga, aha ngaha urabona amafaranga yo mu Rwanda, ukabona n'amafaranga yo mu mahanga cyangwa se ukaba uvuga ati: "nshaka amafaranga yo mu mahanga nkazana ayo mu Rwanda, bakangurishiriza cyangwa se bakangurira."

Aha ngaha turabona amacupa arimo amazi y'isoko nziza, izwi cyane, isoko ya Nile. Aya mazi wayagura, ukeneye kunywa amazi meza kandi yizewe, aya ngaya wayagura.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bugezweho irimo ibikoresho byajyambere bidufasha mu bintu byinshi bitandukanye abatubona n'ahantu ho kuba wazimiriza umuriro cyangwa se ukawukupa mu gihe hari gutera ibibazo bigiye bitandukanye mu nzu waba uherereyemo.

Iri ngiri ni ikusanyirizo ry'amata yo mu bwoko agiye atandukanye, tukabona amata aba yaranyuze mu ruganda, amata asanzwe y'umwimerere, amata arimo izindi mbuto zigiye zitandukanye kugira ngo intungamubiri zikomeze kwiyongera ndetse n'uburyohe bukomeze kwiyongera.

Ibi ngibi ni ibyo kurya badukorera byadufasha muri ako kanya, bikorwa bafata amafarini bagashyiramo imisemburo ndetse n'isukari ubundi bakabivangavanga byamara gukomera bagashyira mu mavuta bagakaranga, ubundi bikadufasha muri ako kanya tukaba turyaho tukumva uko bimeze.

Aha ngaha ni ahantu wakinjira ukeneye kuba warya, hari ibyo kurya bitandukanye ndetse n'ibyo kunywa, ibyo kurya bikoze mu mafarini, tukabona icyo twita capati, amateremusi aba arimo icyayi n'ibindi bintu by'ibinyobwa bitandukanye.

Iri ngiri ni ikusanyirizo ry'amata y'i Nyanza, icyuma gitunganya amata kikayabika ku buryo bwizewe kandi bufite umutekano bufite n'ubuziranenge, ku buryo mu gihe uje kuyagura usanga agifite umwimerere wayo.

Iri ngiri ni ikusanyirizo ry'amata. Aha ngaha turabona amata ateretse neza mu buryo bwiza. Aha ngaha uramutse ukeneye amata ameze neza waza ukicara ubundi ugafata amata bakayaguhereza ukanywa.

Ikusanyirizo ry'amata y'inyange, ikingiki ni icyuma giterekwamo amata ku buryo bwiza bwihariye bufite umutekano kandi bwizewe, ho afite n'ubuziranenge bwizewe.

Iri ngiri ni ikusanyirizo ry'amata, aha ngaha uraza ukahasanga amata meza yujuje ubuziranenge kandi yujuje ibisabwa bitewe nayo ukeneye, yaba akonje cyangwa se adakonje.

Uyunguyu ni umwe mu bakozi b'ikigo gikorera Bugesera-Mayange bakora ubucuruzi bw'amagi menshi atandukanye niyo waba bifuza kurangura amagi cyangwa se kugura amagi ku buryo busanzwe uko wabuhamagara kuri izi nimero zigaragara zero karindwi umunani kabiri kabiri gatatu gatanu gatanu gatandatu gatandatu.

Iri ngiro n'ikusanyirizo ry'amata yo mu bwoko butandukanye ayaciye mu ruganda bakongeramo ibindi bintu biryoshye aho bongeramo imbuto zitandukanye izo twita inkeri n'aho bashyiramo izindi mbuto zitandukanye kugira ngo akomeze kuryoha kandi aguman n'umwimerere.

Aya ngaya ni amata meza yabugenewe ya Mukamira arimo ndetse n'imbuto z'inkerituzi cyane ziryoha, aya mata aba aryoshye, ameze neza afite intungamubiri zuzuye kuko arimo n'imbuto.

Ubu ngubu ni imbonerahamwe y'uburyo bwo kohereza amafaranga uburyo mpuzamahanga bwo kohereza amafaranga niyo washyizemo ukohereza amafaranga ugashyiramo igihugu ugiye kuyoherezamo, ugashyiramo nimero y'umuntu ugiye kuyoherereza.

Ahangaha ni uburyo bw'igura n'igurisha ry'amafaranga, kuri mudasobwa yawe cyangwa se kuri telefoni ngendanwa, ahangaha ushyiramo ufite amanyarwanda ukayahindura amanyamahanga, guhindura amafaranga mu gihugu kimwe ukayahindura mu gihugu kindi, hakaba hari n'inzira nyinshi zo kohereza amafaranga zigeze muri eshatu bakwereka.

Ubu ngubu ni uburyo bwo kwishyura cyangwa se kohereza amafaranga, uburyo bwo kohereza amafaranga aho ushyiramo umubare w'amafaranga, bakakubwirati emeza ubwenegihugu, wamara kwemeza ubwenegihugu ukabona kohereza amafaranga.

Iki ngiki ni ikigo gishinzwe kubagufasha kohereza cyangwa se kwakira nk'amafaranga yaba aturutse mu bindi bihugu by'amahanga, ukaba wayakira cyangwa se nawe ugafata amafaranga bakagufasha kuyohereza mu bihugu by'amahanga.

Aha ngaha barakwereka uburyo butandukanye bwo kwinjira muri konti ya momo, haba hari aho kohereza amafaranga cyangwa se kugura ibintu bitandukanye ,wagura umuriro ,wagura ibiki. Kwishyura amazi, banki, kuba amafaranga ajya hanze, konti yawe n'ibindi byinshi bitandukanye.

Ubu ni uburyo bwo kuba wafata amafaranga ukayahinduranya ukayagira ay'igihugu kimwe uyashyira mu kindi ukoresheje mudasobwa cyangwa se telefone ngendanwa yawe yabigufashamo.

Ni urupapuro rugaragaza ko umuntu aba yishyuye imisoro n’amahoro, rugaragaza ko nta mwenda yaba arimo cyangwa se yaramaze kwishyura no kudekarara ipatanti yiwe.

Urunguru ni urupapuro ruriho uburyo umuntu aba amaze kwishyura imisoro, ikigo cy'imisoro n'amahoro, kiba gifite abakozi babishinzwe, aha ngaha bashobora kuza kukubaza niba warishyuye imisoro yawe, ubundi ukarubereka bikarangira neza.

Uruparo rugaragaza ukuntu umuntu aba yarishyuye amadeni agiye atandukanye aba yarishyuriyeho imyenda; kugira ngo abe nta mwenda n'u umwe arimo cyangwa se yarafatiyeho inguzanyo yo muri banki n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye.

Uru nguru ni urupapuro rw'icyemezo cy'ubutaka, kuko hano turabonaho igice kigenewe ibiranga ba nyir'ubutaka. Ahangaha urakibona ibintu byose ubibonaho, imikono, ubwishyu n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye.

Uru nguru ni urupapuro rugaragaza ubwishyu bw'umusoro, aha ngaha wajya ku rubuga rw'irembo cyangwa se ku kigo gishinzwe imisoro n'amahoro, hose kuri banki, uragenda bakishyura imisoro ubundi bakaguhereza urupapuro nyemezabwishyu.

Uru ni rupapuro rugaragaza uburyo ki uba waragiye wishyura imisoro ndetse ku nyungu n'amafaranga usabwa kwishyura ku kwezi mu buryo bugiye butandukanye. Aha ngaha uragenda ukishyura urupapuro bakaruguha mu kigo gishinzwe imisoro n'amahoro.

Urunguru ni urupapuro nyemezabwishyu rw'imisoro, uhabwa mu gihe umaze kwishyura imisoro ubundi abashinzwe imisoro n'amahoro bazakugeraho ukarubereka bakabona ko nta deni urimo ry'umusoro.

Uru nguru ni urupapuro rwerekana ibijyanye n'imisoro n'amahoro, aha ngaha umuntu yari amaze kwishyura imisoro yari arimo, nawe uba ugomba kugenda nko ku Irembo n'ahandi hatandukanye, ukarebako ufitemo imisoro utarishyura, ukishyura hakiri mu gihe.

Afite ukeneye nk'amanyarwanda cyangwa se uramutse ufite amanyarwanda ukeneye abanyamahanga, baba bagomba kubigukorera bakabigufashamo bitewe n'aho uri buyakoreshereze wowe ubwawe ku giti cyawe.

Ubu ngubu ni ubucuruzi bw'amafaranga aya ngaya akaba ari amafaranga y'amanyamahanga, ushobora kuba waba uyakeneye ufite ayo mu kindi gihugu ukayazana bakaba bayaguha cyangwa se ufitema amanyarwanda bakaba baguhereza ayo mu mahanga, cyangwa se ufite ayo mu mahanga bakaguha amanyarwanda

Ubu ngubu ni uburyo bwo gukoresha amafaranga y'amanyamahanga amafaranga y'amanyamahanga bashobora kuba barayakoherereje bikagenda ku bigo bishinzwe bikayabikuriza bikayaguha cyangwa se nawe mu gihe ugiye kuyakoresha ukagenda ukayatanga bakaba banaguhindurira bakaguhereza amafaranga yandi atari amanyamahanga.

Ubu ngubu ni uburyo bwo gucuruza, kugura ndetse no kugurisha amafaranga y'amanyamahanga n'andi mafaranga atandukanye muri banki y'u Rwanda, banki nkuru, aha ngaha iyo uyafite bitewe n'ayo ikeneye, ugenda ubona uko ibiciro biba bihagaze.

Ubunggubu ni uburyo bwo gukoresha amafaranga y'abanyamahanga uba ufite amafaranga y'amanyarwanda bakaguranira bakguha abanyamahanga cyangwa se ufite amanyamahanga bakaguha amanyarwanda cyangwa ukazana abanyamahanga bakaguha munyamahanga bitewe n'aho wowe uribuze kuyakoreshereza.

Nkubu ni uburyo bwo gukoresha amafaranga mpuzamahanga ahangaha uramutse ukeneye aya mafaranga, uraza bakabigufashamo niba uzanye amanyarwanda ukeneye ayo mu kindi gihugu, bakayagwa cyangwa se uzanye andi Y'anyamahanga nano ukeneye undi munyamahanga nabyo barabikora.

Ubu ngubu ni uburyo bwo gukoresha amafaranga y'abanyamahanga. Aha ngaha uba amafaranga y'amanyarwanda ukazana bakaguha abanyamahanga cyangwa se abafite amanyamahanga bakaguha abanyarwanda.

Ubu ni uburyo bwo gukoresha amafaranga y'amanyamahanga, uramutse ufite amanyamahanga ukeneye amanyarwanda, urayazana bakakuguranira, bakaguhereza ayo ukeneye cyangwa se waba ufite amanyarwanda ukeneye amanyamahanga bitewe n'aho ugiye kuyakoreshereza.

Ubu ngubu ni uburyo bwo gukoresha amafaranga mpuzamahanga uramutse uyakeneye, nawe wayasaba bakayaguha, ufite amanyarwanda ukeneye abanyamahanga cyangwa ufite abanyamahanga ukeneye amanyarwanda, byose babigukorera niyo waba ufite amanyamahanga ukeneye andi manyamahanga atandukanye n'ayo ufite.

Ubu ngubu ni uburyo bwo gukoresha amafaranga y'abamanyamahanga, amafaranga y'abamanyamahanga uburyo akoreshwa, mu gihe uyafite uri mu Rwanda, uraza bakagenda ahantu babishinzwe bakaguherezamo amanyarwanda, ukaba ariyo ukoresha.

Ubu ni uburyo bwo gukoresha amafaranga y'amanyamahanga, aya ngaya ni amafaranga y'abanyamahanga tureba amahanga atandukanye ushobora kuzana ayo mu mahanga y'igihugu kimwe bakaguhereza ayo mu kindi gihugu bitewe n'icyo ugiye kujyamo cyangwa se ugiye kuyakoresha cyangwa ukazana amanyarwanda nabwo bakaguhereza ayo mu bihugu bigiye bitandukanye.

Ubu ni uburyo bwo gukoresha amafaranga y'umuyamahanga, aha ngaha ibintu baragufasha bigiye bitandu uramutse ukeneye gukoresha amafaranga y'abanyamahanga ufite nk'amanyarwanda wahasaba bakayaguha cyangwa se ufite amanyarwanda nanone ukeneye amanyamahanga.

Ubungubu ni ugukoresha amafaranga y'amanyamahanga ahangaha ushobora kuba ukeneye amafaranga yo mu bihugu bitandukanye bitewe n'ayo ufite cyangwa se aho ugiye kuyakoreshareza uraza bakaguhindurira bakaguha ayo ukeneye .

Ubu ngubu ni uburyo bwo gukoresha amafaranga y'amanyamahanga, uramutse ufite amafaranga y'amanyamahanga ukaba wayazana bakaguha amanyarwanda, cyangwa se ufite amanyamahanga bakaguha andi manyamahanga bitewe n'ayo ukeneye, cyangwa aho uri buze kuyakoreshereza.

Ahangaha ni uburyo bwo kugufasha kuguhindurira cyangwa se kuguranira amafaranga cyangwa se bashobora kuba bagiye kuyohereza ahandi hantu runaka , uyuguyu azanye amafaranga y'amanyamahanga bamuhereze andi manyamahanga cyangwa se bamuhereze ayo akeneye kuba agiye gukoresha gusa .

Ubu ngubu ni ubucuruzi bw'amafaranga, urabona haba hariho ibiciro, bitewe n'igihugu ushaka amafaranga yacyo, cyangwa se ukaza ukagurisha, cyangwa se ukagura ukaba wazana amanyarwanda ukayashyira mu mayamerika cyangwa se, n'ibindi bihugu bitandukanye.

Ubu ngubu ni uburyo bwo gukoresha amafaranga y'abanyamahanga, ubucuruzi cyangwa se ubuhahirane bw'amafaranga, ukaba wazana amanyarwanda bakaguha abanyamahanga cyangwa se ufite amanyamahanga ukayazana bakaguha amanyarwanda, bitewe n'icyo uri buze kuyakoresha cyangwa aho uyakoresherereza.

Ubu ngubu ni uburyo bw'igura n'igurisha ry'amafaranga, aha ngaha niho usanga ibiciro by'uburyo wagura cyangwa se wagurisha bitewe n'amafaranga ufite cyangwa se bitewe n'ayo ushaka.

Aya ni amafaranga yo mu bihugu by'amahanga, aya tuyita amafaranga y'amanyamahanga. Urabona ko bayatenze ku murongo bahereye ku icumi. Harimo: mirongo itanu, makumyabiri. aya ni amanyamahanga, ushobora kuba uyashaka, ukagenda ukagurisha nawe bakayaguha.

Aha ngaha ni ahantu habera ihinduranyirizwa ry'amafaranga cyangwa se ubucuruzi bw'amafaranga agiye atandukanye, amafaranga bitewe n'ayo ukeneye, uraza ukabona igiciro cy'andi ushaka kuyahinduranyamo ubundi bakagufasha.

Iyi ngiyi ni inzu ibera mu icuruzwa ry'amafaranga, amafaranga haba hari ibiciro bijyanye n'ukuntu amafaranga agurwa cyangwa se agurishwa bitewe n'ayo ukeneye niba ufite amanyarwanda ushakamo abanyamahanga uragenda bakabigufashamo

Iki ngiki ni icyapa cyerekana imirimo ikorerwa hano igiye itandukanye, hakaba hari ubufasha bwa banki, hakaba hari uburyo bwo kohereza amafaranga mu mahanga, cyangwa se kuba wafata amafaranga avuye mu mahanga.

Aha ngaha bakora ubucuruzi bw'amafaranga, ufite amafaranga ukeneye ayandi, aha ngaha ni byo bagufasha. Ufite, urugero ufite Amanyarwanda, ukeneye abanyamahanga, uraza bakabigukorera cyangwa se ufite amanyamahanga ukeneye andi manyamahanga na byo bakabigukorera bitewe n'aho uri buyakoreshereze.

Iyi ngiyi ni inzu ishinzwe ubucuruzi bw'amafaranga, ahangaha amafaranga bitewewe n'icyo ugiye kuyakoresha, bitewe n'aho ugiye kuyakoreshereza, uza ufite abanyamahanga bakaguhereza amanyarwanda, cyangwa se ukaza ufite abanyarwanda nanone bakaguhereza amanyamahanga.

Aha ngaha turabona umuturage usanzwe ufite amafaranga menshi mu ntoki, ari kumwe n'umukozi w'ikigo cyangwa se umukozi wa banki ashobora kuba aha ngaha aje kubitsa amafaranga muri banki, kugira ngo umutekano we w'amafaranga ube wizewe.

Aha ngaha bahita ikaze, bakora ibijyanye no guhinduranya amafaranga, ufite amafaranga ashaka ko baguhindurira bakaguha ayandi bitewe n'aho ugiye kuyakoreshereza cyangwa icyo ugiye kuyakoresha aha ngaha babigukorera.

Icyumba kiberamo guhinduranya amafaranga ukaba ufite ayo mu gihugu kimwe ukaba ushaka ayo mu kindi waba ugiye kuyakoresherezamo nicyo gituma umenya ayofata nayo ureka mbega ukamenya ayo ukeneye.

Aha ngaha ni ho habaho icuruzwa ry'amafaranga cyangwa se ikoreshwa ry'amafaranga y'amanyamahanga, ukeneye amafaranga ufite amanyamahanga ushaka amanyarwanda cyangwa se ushaka amafaranga yo mu bindi bihugu bagufasha. Ukaba wabahamagara kuri zeru, karindwi, kabiri, kabiri, gatatu, zeru, gatandatu, icyenda, karindwi, kabiri cyangwa ukabandikira ku rubuga nkoranyambaga rwabo.

Iyingiyi ni inyubako ifite ibirahuri byiza iberamo ikintu kijyanye n'ivunjisha ry'amafaranga cyangwa se ubucuruzi bw'amafaranga, bitewe n'ayo ushaka cyangwa bitewe n'ayo uzanye n'ibiciro biba bihari.

Ahangaha barakwereka uburyo wakohereza amafaranga mu bihugu bijyiye bitandukanye byo hirya no hino ku isi. Uramutse ufite umuntu uri mu mahanga ushaka kumwohererereza amafaranga, ahangaha urinjira bakabigufasha.

Bakora ibikorwa byo guhinduranya amafaranga cyangwa se ubucuruzi bw'amafaranga, aha ngaha bafite amafaranga nk'urugero y'abamanyarwanda uraza bakakuguranira bakaguha amanyamahanga cyangwa se ufite abanyamahanga bakaguha amanyarwanda.

Iki ngiki ni ikigo gitanga ubwishingizi, aba ngaba ni bamwe mu bakozi bacyo, aha ngaha uramutse ukeneye ubwishingizi bw'ibikorwa ukora cyangwa se bw'imitungo yawe n'umuryango wawe waza bakagufasha.

Iyi n’inyubako nziza yubatse ku buryo bugezweho, ubonamo intebe zisa neza n’udusego twiza umuntu yacaraho ntabe yavunika umugongo, cyangwa se ntabe yagira ibindi bibazo bigiye bitandukanye.

Izi ngizi ni intebe nziza utumeza twiza, utubati twiza two guterekaho imitako myiza itandukanye, intebe nziza aha ngaha waza ukazigura ukagura intebe zo gushyira mu cyumba cyo kubwicaro cy'ubuganiriro abantu bakamera neza mu gihe bazicayemo.

Ikingiki ni cyumba cyicarwamo mu gihe abantu bagiye gufata amafunguro ibyokurya, urabona ko ari byiza rwose dufite imeza isa neza, intebe nziza z'ibyiciro bitandatu, mwaba muri umuryango w'abantu batandatu muje gusangira mukaza mukicara, mukarya kandi mukaryoherwa.

Izi ngizi ni intebe nziza zo mu bwoko bugezweho, zifite imisego myiza wakicaraho, ukegama nta kibazo, ubundi ukaruhura umugongo, uramutse uzikeneye hari ahantu henshi uba wagenda ukazigura, nawe ugashyira mu nzu yawe ugasa neza.

Iyingiyi ni inyubako igufasha kuba bagukorera igitanda, bakaguhereza uburiri bwo kuryamaho ukaruhuka, bakaguhereza ibikoresho byo mu nzu intebe nziza, ameza utubati two kubikamo ibikoresho byawe byabugenewe.

Izi ngizi ni intebe nziza imeza nziza utubati twiza dufite ibirahuri, tukaba tureba n'igikoresho kifashishwa mu gihe ahantu hateye inkongi y'umuriro, bakaba bagikoresha bayizimya.

Aha ngaha ni ahantu hateguye neza, ni icyumba gisa neza, ushobora kuba waza gusangira n'umuntu w'inshuti yawe mukaganira, mukaruhuka, mukajya inama, mugafata ibyo kurya byiza baba batunganyije n'ibyo kunywa bitunganyije neza.

Aha ngaha ni ahantu heza wakwifuza gusohokera cyangwa se wakishimira mu gihe waba uhageze, uri kumwe n'inshuti zawe cyangwa se, uri kumwe n'abana bawe, uri kumwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, mwahasanga ibintu byiza bigiye bitandukanye, amafunguro ateguye neza, ubusitani butuma muruhuka mu mutwe...

Ahahanga aha ni mu biro hakaba harimo mudasobwa. Umuyobozi hano iyo ari mu biro, aba ari gukoresha mudasobwa ari kuri murandasi, akoresha itumanaho rigiye ritandukanye, kugira abashe kwakira amakuru hirya no hino cyangwa se uburyo akazi karimo gukorwamo.

Iriya ni inyubako nziza tureba iri imbere y'umuhanda urimo amatara ndangabyerekezo, guhaguruka mbere cg se kugenda mbere no kugenda nyuma, amatara aba ari hano aba ari indangabyerekezo ubundi agacana, bacana guhaguruka kwawe ukagenda bacana guhagururuka k'umunyamaguru akaba ariwe ugenda.

Iyi ngiyi ni inyubako nziza wasangamo ibikorwa remezo byiza, kandi byinshi bitandukanye, aha ngaha wasangamo uburyamo bwiza, ubwogero bwiza, amafunguro ateguye neza, n'ibyo kunywa biteguye neza, kandi ni ahantu waruhukira, cyangwa wasohokera, n'inshuti zawe cyangwa n'umuryango.

Muri iki ni icyumba cyiza waza ugakoreramo inama, waza ugakoreramo ibiganiro urabona ko gifite intebe nziza zigezweho, utumeza twiza two guterekaho ibikoresho byawe waba wazanye muri iyo nama ndetse cyangwa se mugakoreramo imishyikirano.

Aha ngaha ni ahantu heza mwakorera inama, tukaba dufite n'ahantu bashyira insakazamashusho kugira ngo mubashe kuganira mwese, mubireba kandi mubyumva, kugira mukomeze mubone uko mubyumvikanaho neza.

Iyi ni inyubako nziza cyane izwi ku izina rya ladisoni buru, aha ngaha wahasanga ibikorwa byinshi wakwifuza kuhakora ukeneye gukora ubukwe, kuhasohokera, ukahasanga amafunguro ateguye neza, imitako myiza akahakorera amashusho meza n'ibindi bintu byinshi bitandukanye.

Iyi ni inyubako nziza wasangamo ibyiza nyaburanga byinshi urabona ko hano hari amazi meza y'ubwogero n'ibitanda byiza byo kuryamaho mu gihe urimo urakoresha amazi, amazi ushobora kujyamo akagufasha kugira ngo imyitozo ngororamubiri yaguke.

Iyi ngiyi ni inyubako nini cyane, nziza, wasangamo ibintu byinshi byiza bigiye bitandukanye, ushobora gusangamo ahantu heza ho kuryama, ushobora gusangamo ahantu heza ho kuruhukira, ahantu heza ho kurira amafunguro meza.

Aha ngaha ni ahantu heza nyaburanga, wabasha gusohokera wowe n'inshuti zawe, wowe n'umuryango wawe, wowe n'umukunzi wawe, aha ngaha wahasanga ibintu byinshi bigiye bitandukanye nk'amafunguro ateguye neza, ibyo kunywa byiza, ukabona n'amazi yo kuba wajyamo ukoga ukaba winanura.

Iyingiyi ni inyubako nziza iri mu mujyi wa Kigali wasohokeramo ukeneye ibintu byinshi bitandukanye, ahantu, ibyumba byo gukoreramo inama, ibyumba byo kuryamamo, ahantu, ubwogero bwiza wanakidagaduriramo, ahantu wasanga ibyo kunywa biteguye neza n'amafunguro asa neza.

Iyi ngiyi ni inyubako nziza, baba bafashe ishusho ryayo rya nimugoroba urabona ko hasa neza, aha ngaha ni ahantu waza gusohokera wowe n'abawe, wowe n'umuryango wawe n'inshuti zawe mugasanga ibyo kurya byiza, amafunguro ateguye neza n'ibyo kunywa biteguye neza, utubyiniro twiza n'ibindi bintu byinshi byiza bitandukanye.

Iyi ngiyi ni inyubako nziza iherereye ahantu runaka, izi nyubako akenshi ni ahantu uba wasanga ibyo kurya, amafunguro ateguye neza, ibyo kunywa biryoshye biteguye neza, urabona ko hanze ifite urukarabiro waza ukajyamo ugakaraba, ukaruhuka mu mutwe, ukaba uryamye no ku buriri buhari.

Aha ngaha ni ahantu heza wasohokera, wafatira amashusho hari urwogero rwiza, ibitanda byiza byo kuryamaho mu gihe uvuye mu mu mazi, cyangwa se mu mu gihe utegereje kujyamo ukaba wota akazuba.

Aya ngaya ni amafunguro meza atunganyije neza aterekanye ubuhanga, ndetse yatekanywe ubuhanga buhanitse, ibyo kurya byiza wakenera hano ukaza ukicara bakaguhereza ibyo kurya ubundi ugafungura.

Ikigo gitanga ubwishingizi, yshobora kuba wahamagara kuri nimero zitandukanye cyangwa izi zikurikira, ikimenyetso cyo guteranya makumyabiri n'agatanu, zeru karindwi munani umuani ,cumi nakabiri ,gatanu, zeru kabiri kane.

Uyu nguyu ni umuryango w'abana. Ahangaha aba ari umuryango ufasha abana mu bintu byinshi bitandukanye; imibereho myiza y'abana, uburezi bw'abana, ndetse n'imirire n'ibindi bintu bitandukanye.

Iki ni ikigo gitanga ubwishingizi bw'ubuzima, aha ngaha ushaka wagenda bakaguha ubwishingizi, ugashinganisha wowe n'umuryango wawe, mukabaho ubuzima bwanyu burinzwe kandi butekanye mubizi ko bufite umutekano wizewe.

Ibi ni ibiro by'abakozi bagiye batandukanye, bari kureba ukuntu imishinga yabo iba imeze n'ufite n'ubu tabo byo kwandikamo akaba ari ikigo gitanga ubwishingizi bwo mu rugo uramutse ukeneye ubwishingizi babuguha.

Ahangaha ni ubwishingizi butangwa bakaba babuguha, iki ni ubwishingizi bw'ikinyabiziga, iki n'ubwishingizi bw'ibintu bigiye bitandukanye by'imitungo yawe ahangaha bagufasha.

Iyingiyi ni inyubako nini kandi nziza ahangaha ni ikigo gitanga ubwishingizi, uramutse ushaka ubwishingizi iyi nyubako uyizamo bakaguha ubwishingizi bwo gushinganisha imitungo yawe n'ibindi bintu byawe byose waba wifuza gushinganisha.

Izi ni nyubako nini kandi ndende ziri mu mujyi wa Kigali, aho abenshi twita kwa Mukuza. Ahangaha tukabona inyubako iriho icyapa cy'ubwishingizi. Uramutse ukeneye ubwishingizi, gushinganisha imitungo yawe, umuryango wawe, iyi nyubako niyo wakinjiramo.

Ikingiki ni ikinyubako kiza ahangaha hashobora kuba ari mu kigo runaka, bati byiza ubuzima bworoshye, ahangaha bagufasha kuba baguha nk'ubwishingizi.

Iyi ni inzu wasangamo ishami rikorana n'ubwishingizi Kigali ikaba ari numero babahamagaraho mu gihe bakeneye ushobora guhamagara makumyabiri mirongo itanu cyangwa kwandika ku mbuga nkoranyambaga zabo ebyiri zitandukanye, ubundi ukababaza ibindi.

Aba ngaba ni abayobozi b'ingeri zitandukanye baba bari kwiga ku mishinga myinshi igiye itandukanye ndetse n'abaturage baganirizwa ku kuntu bakomeza kwiteza imbere bagateza imbere igihugu cyabo, bakiteza imbere no mu mitekerereze.

Aha ngaha ni ahantu heza wabasha kuba wahahira ibintu byinshi bitandukanye by'ibihingwa, akaba ari Muhanga Rwanda, ukaba wakwandikira urubuga nkoranyambaga rwabo bakoresha ubundi bakakubwira ibindi.

Iki ni ikigo gishinzwe gutanga inguzanyo ku banyeshuri biga amashuri ya kaminuza ahangaha uraza umunyeshuri wiga bamuha inguzanyo kugira ngo imufashe kuba hari ibyo yakora bimwe na bimwe.

Yega iki ni kigo kikubwira ngo iwawe h'inzozi zawe utegereje, aha ngaha ni ikigo gishobora kuba cyaguha nk'inguzanyo cyangwa se ibindi bintu bigiye bitandukanye, bakaba bafite nimero wabahamagaraho, ikimenyetso cyo guteranya makumyabiri na gatanu zeru karindwi umunani umunani cumi na kane icyenda gatanu zeru ebyiri, ubundi ibindi byose bakabikubwira.

Iyi ngiyi ni banki, uyu nguyu ni umwe mu bakozi ba banki. Arakubwira ati aha ngaha wafata inguzanyo yizewe kugira ngo ukomeze guhaha ibindi bicuruzwa byo mu bucuruzi bwawe, ubyongere bikomeze bibe byinshi.

Iyi ngiyi ni banki yo mu Rwanda yitwa banki ya Kigali, baravuga ngo dufite impamvu yo kuba wafata inguzanyo muri iyi banki, ukeneye inguzanyo yo gutangira gukora ibikorwa bitandukanye, waza muri iyi banki bakaguha inguzanyo.

N'ikigo cyagufasha kuba, barakubwira ngo ohereza cyangwa wakire amafaranga kuva mu nshuti cyangwa se mu muryango mu gihe yaba avuye hanze. Aha ngaha wakoherereza inshuti zawe zo hanze cyangwa se umuryango cyangwa bo bakakoherereza bakagufasha kuyagu...

Aha ngaha ni banki, aha ngaha hakaba ari ishami rya Kabuga, aha ngaha baragira ati twizigamire tugurizwe dutere imbere, aha ngaha mu gihe uba wizigamamo uri umunyamuryango baba bashobora kukuguriza nawe ugatera imbere.

Iki ngiki ni ikigo cyitwa amayaga abangaba ni bamwe mu bakigize, baba barimo barakora ibintu byinshi byatuma barushaho gutera imbere ndetse n'igihugu kikarushaho gukomeza gutera imbere.

Aha ngaha barakubwira ati hereza umwana wawe intangiriro yo kuba yagira konti abikaho iki ni ikigo kigufasha muri ibyo bintu kugira ngo umwana wawe abe yatangira afite konti yaba afite icyo yabitseho.

Aha ngaha baravuga ati kuza kubika kwawe, ubwo aha ngaha ukabika neza amafaranga yawe ukoresheje iyi banki urazana bakakubikira ndetse akenshi baguhereza n'inyungu.

IzI ni inkweto zicuruzwa, harimo izikoze mu bwoko bw'ibitabora. ni nyinshi, ahangaha ushaka kugura inkweto zo kogeramo, inkweto zifunguye warukirizamo ibirenge, ibikapu byiza byo kujyana ahantu mu kazi, ahangaha niho wabisanga.

Iringiri ni iduka ricururizwamo ibintu byinshi bitandukanye by'imyenda, imyambaro, iyo baba barimo baradoda, ibikapu byiza by'abagore ibitenge byiza by'abamama n'ibindi bintu byinshi bitandukanye.

Iyi ngiyi ni inyubako nini kandi ngari, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, ushobora gusanga harimo amacumbi meza yo kuraramo, ushobora gusanga hari amafunguro meza wabasha gufata ugakomeza kumererwa neza mu mubiri wawe ndetse n'ahandi hantu hose.

Iri ngiri ni iduka rigufitiye imyenda y'ubwoko bwinshi cyane butandukanye, imyenda yo kwambaramo imbere, imyenda yo kujyana mu rukarabiro, imyenda y'abana n'imyenda y'abantu bakuru n'indi myambaro yose itandukanye.

Isoko wahahiramo imyenda y'ubwoko bwinshi butandukanye, imyenda y'abana, imyenda y'abantu bakuru, imyenda ikozwe mu budozi bwa kinyarwanda, ahangaha waza byose ukabihakoreshereza ubundi ugahaha.

Iri ngiri ni isoko tuba tugomba guhahirana hari ibintu bitandukanye, ibihingwa biba byaje barejeje, bagasarura tukabona inyanya n'ibindi bintu bitandukanye amashu n'ibindi bintu bitandukanye karoti.

Iri ngiri ni isoko rya Kimironko ricuruza ibintu byinshi bitandukanye, uduseke, udutebo, inkoko, urabona ko baba bakosheje ibisabo bakabijisha, ingoma n'ibindi bintu byinshi bitandukanye.

Aha ngaha ni mu mujyi wa Kigali, aba ngaba ni abacuruzi b'ibintu bitandukanye, ubona umucuruzi wikoreye ibitoki byahiye bizwi ku izina ry'imineke, aha ngaha ari mu bucuruzi.

Uyu nguyu ni umubyeyi ucuruza mu isoko ibyo kurya bigiye bitandukanye. Ahangahe imbere ye hari ibiribwa tuzi ku izina ry'amashu, hirya hakaba hari ibirungo, urusenda, ibitoki ibintu byinshi bigiye bitandukanye byo kurya hano wabihasanga.

Ni isoko, iri ni iduka, amaduka menshi atandukanye wabasha kuza guhahiraho ibyo kurya by'ubwoko butandukanye ibirayi, turabona hano ibiva mu mazi biba byakozwe mu burobyi, ibirungo byinshi bitandukanye.

Ni amasoko menshi wagenda guhahiramo ugasanga amaduka arimo ibintu byinshi bitandukanye imyenda y'ubwoko bwose, uramutse ukeneye kugura imyenda wakinjiramo muri aya mazu wayisangamo n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye wabihasanga.

Iri ngiri ni isoko wabarizamo ibyo kurya by'amoko menshi, yaba ibirungo yaba intoryi ibishyimbo n ibindi bihingwa byinshi.

Iri ngiri ni isoko ryiza ryo guhahiramo ibintu byinshi bitandukanye, ibiribwa by'ibimera byasaruwe, ibiribwa byaciye mu nganda, imbuto zitandukanye, ibirungo byo guteka mu biryo by'ubwoko bwinshi butandukanye.

Iri ngiri ni iduka wasangamo ibintu bigiye bitandukanye, ibyokurya by'amoko atandukanye n'ibirungo byagufasha kugira ngo habeho indyoshyamafunguro. Ibintu wakenera, amavuta y'ubwoko butandukanye n'ibindi bintu byinshi aha wabihasanga.

Iri ngiri ni isoko rinini ririmo ibintu byinshi bitandukanye hano turabonamo ibikoresho by'ubugeni, uduseke, inkoni, inkoni zikoreshwa mu misango y'ubukwe, ibikapu biboshye mu bintu bitandukanye n'ibindi bintu byinshi by'ubugeni byiza wabiguriramo.

Ahangaha ni ku isoko ricuruza ibicuruzwa akenshi baba bahinze bagasarura bikava mu murima inyanya, intoryi n'ibindi bintu byinshi bisanzwe waza hano ugahaha ndetse utahana n'ibirungo byo guteka mu byo wahashye.

Iri ngiri isoko, akenshi amasoko nk'aya bayita duhahirane, usangamo imyenda myinshi igiye itandukanye. Imyenda y'abana, imyenda y'abantu bakuru, waza ukagura nawe ukaba wayijyana mu rugo mu buryo butandukanye.

Iri ngiri ni iduka rinini kandi ryiza wasangamo imyambaro y'amoko agiye atandukanye, imyambaro idoze hari n'abantu bashinzwe kudoda imyambaro yo kujyana mu bikorwa by'imyidagaduro, imyambaro y'ahantu hagiye hatandukanye wayihasanga.

Ubu ngubu ni ubucuruzi bw'ibihingwa turimo turareba ndetse n'ibindi bintu bitandukanye ibikoresho byo mu nzu, hano mu byo kurya hakaba harimo urusenda, tukaba tubona ibitoki, intoryi n'ibindi byo kurya bitandukanye ndetse hakurya imyambaro iri isoko warihahiramo ibintu byinshi wifuza.

Ahangaha umwe mu bakozi b'ikigo cy'umuyoboro wa MTN n'undi muntu wari umaze guhaha ibintu bitandukanye bakwe ku buryo bworoshye wakwishyura na momo amafaranga yawe ntibayagukate ukayasigarana uko agomba kubamo ameze .

Uyu nguyu ni umwe mu bakozi b'ikigo cya emutiyene, ahangaha barakwereka ukuntu wakwishyura mu buryo bworoshye mu buryo bwo gukoresha momo kugira amafaranga yawe ntibabashe kuyakata ukohereza ku buntu.

Ubungubu ni uburyo bwiza bwo kwishyura ukoresheje kode, muyoboro wa MTN ukoresheje momo kugirango amafaranga yawe ntibabe bagukata ahangaha hariho izina ryumucuruzi na kode yiwe ugomba kumwishyuraho.

Iki ngiki ni iki ni ikigo cy'itumanaho cy'umuyoboro wa MTN, aha ngaha abaturage baba baje gushaka ubufasha bwinshi bugiye butandukanye, abo guhamagara byanze, abakeneye ubundi bufasha butandukanye, kubitsa amafaranga, kuyohereza n'ibindi byinshi.

Abongabo ni abakozi b'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni, gifasha ibintu byinshi bigiye bitandukanye, yaba kubika amafaranga kubikura amafaranga kohereza amafaranga cyangwa se no kuyoherereza.

Uyu nguyu ni umwe mu bakozi b'ikigo cy'itumanaho umuyoboro wa MTN, aha ngaha barakubwira ngo kanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani, akanyenyeri rimwe urwego, ubundi ukurikize amabwiriza y'ibyo waba ukeneye.

Abangaba ni bamwe mu kigo cya emutiyeni gishinzwe kudufasha mu bintu byinshi bitandukanye badufasha mu buryo bwo kubika amafaranga, uburyo bwo kubikura amafaranga, mu buryo bwo kohereza amafaranga ahantu hagiye hatandukanye ahangaha bari kumwe n'umuntu waje abagana akeneye ibintu bitandukanye.

Iri ngiri ni isoko ririmo guhahirwamo ibintu byinshi bitandukanye, aha ngaha bakanakubwira ko imyaka icumi hamwe namwe murakoze. Baba bishimira nabo badushimira ko tuba tumaranye imyaka icumi dukorana nabo, aha ngaha hari uwari umaze guhaha ubundi arimo amaze kwishyura yerekana ubutumwa bugaragaza ko yishyuye.

Uyu nguyu ni umwe mu bakozi b'ikigo cya MTN, kidufasha ibintu byinshi bitandukanye, kigufasha kuba baguhereza ama inite yo kuba wahamagaza ahantu henshi hatandukanye, kuba bakubikira amafaranga, kuba bakubikurira amafaranga, baguha ubufasha butandukanye bwinshi.

Aka ngaka ni akazu kaba gakoreramo umwe mu bakozi b'ibi bigo bya Airtel, aha ngaha ushobora kuba waza kugura simukadi, ushobora kuba waza kubitsa amafaranga cyangwa se kuyohereza.

Ubu ni uburyo bwo kwishyura ukoresheje telefoni ngendanwa yawe, aha ngaha umuntu yari agiye kwishyura cyangwa se kohereza amafaranga ahantu hatandukanye, ajya koherezamaze gushyiramo nimero agiye gushyiramo amafaranga agomba kohereza.

Uyu nguyu ni umwe mu bakozi b'ikigo cya emutiyeni ufite akazu gato hano ko kugira abashe gufashirizamo abantu ubufasha bugiye gutandukanye bagiye bakeneye abakeneye kubika amafaranga kohereza amafaranga n'ibindi bintu byinshi bitandukanye.

ubu ngubu ni ubucuruzi bugari kandi bwagutse bunini, ni icuruzwa ry'ikimera cyiswe igitoki, hari ibitoki byinshi cyane, amatoni menshi y'ibitoki, baba bafite imashini zo gupima ibiro bihari bitewe n'ibyo ukeneye kugura.

Abangaba ni bamwe mu bakozi batwara ibinyamitende bishinzwe kuba byakuzanira ibintu waba waguze kuri murandasi, bitabaye ngombwa ko wagiyeyo cyangwa wavuye mu rugo, bishobora gutuma uri gukora indi mirimo runaka itandukanye abangaba babigufashamo bakakuzanira bakabikugereza mu rugo kandi ku mahoro.

Uyu nguyu n’umwe mu bakozi b'ikigo cya vuba vuba ah’iki kigo ubahamagara kuri nimero zabo cyangwa ukabatuma ku mbuga nkoranyambaga zabo bakakuzanira ibintu wibereye mu rugo.

Aha ngaha barakubwira barakuzanira ibyo kurya byiza ku rugi rwawe, aha ngaha ni uburyo bwo guhaha ibyo kurya utumye kuri murandasi cyangwa se ukabandikira ku mbuga nkoranyambaga. Nimero zo kubandikiraho zeru kandwi umunani, gatanu kane, gatatu gatanu, karindwi kane kane.

Aya ngaya yose ni amasoko yo guhahiraho, ku buryo bwa murandasi, abe ayo masoko yo mu mahanga n'andi masoko atandukanye, ureba, ujyaho ukareba ikintu wakiyishimira ukacyandika, ukakigura.

Uburyo bwo guhahira kuri murandasi cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga, aha ngaha turabona ibikoze mu ifarini by'ikigo cyitwa Urwibutso, hakaba hariho amafaranga ugomba kwishyura, amafaranga magana atatu na mirongo itanu, ubundi ugakanda hariya h'ubururu kugura ubundi bakaza kubikuzanira.

Ubu ngubu ni uburyo bwitwa kasha, bwo guhahira kuri murandasi. Hano barakubwira bati "hahamagara ku buntu icyenda, rimwe, rimwe, rimwe" cyangwa ukabandikira ku mbuga nkoranyambaga zabo, ubundi ukaba wabasha guhaha ukoresheje murandasi bakabikugezaho.

Iyi ngiyi ni inzu nziza, nini, igezweho, yubatse ku buryo bwiza harimo amatara meza, ifite amadirishya meza, n'ibindi bintu byose ibikuta bisa neza, bakaba bakubwira ko ari inzu ugomba kwishyura miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda.

Ikindigi iki ni ikigo cyubaka amazu y'amacumbi cyangwa se akodeshwa, wabandikira kuri runo rubuga ukababaza ukeneye inzu yo kubamo, iyo gukodesha cyangwa se n'iyo kugura barayiguha.

Inyubako nziza ifite uburiri bwiza, ifite utubati twiza two mu cyumba two kubikamo inkweto, imyenda, n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, akaba ari inzu wakwishyura amafaranga angana n'amadorari magana atanu na mirongo itanu.

Iyi ngiyi ni inzu nziza nini ishobora kuba yaba ikodeshwa cyangwa se igurishwa, gusa ukeneye kumenya ibindi bijyanye n'ayo haba hari nimero wabandikira ku rubuga nkoranyambaga guteranya magana abiri na mirongo itanu karindwi umunani umunani icyenda icyenda icyenda kabiri karindwi gatatu.

Iyi ni inyubako iherereye kabeza mu mujyi wa kigali hangaha ikintu cya mbere batweretse ni ubwiherero bwayo urabona ko ari ubwiherero bwiza bw'iterambere ikindi batubwira ko inzu ihagaze amafaranga angana na miliyoni ijana na mirongo itatu z'amafaranga y'u rwanda ubasha kuyigura waza ukayigura.

Iyi ngiyi ni inyubako nziza igezweho yubatse ku buryo bw'iterambere ikaba ari inyubako igurishwa, aha ngaha niho binjirira iherereye i kanombe mu mujyi wa Kigali. Ikaba igurishwa amafaranga angana na miliyoni mirongo icyenda n'eshanu z'amanyarwanda.

Iyingiyi ni inzu nziza yubatse ku buryo bugezweho ku buryo bw'iterambere, ifite ibitanda byiza, ifite aho kuryama heza, ifite ubwogero bwiza n'ibindi bintu byinshi bitandukanye ibi igomba kuba ifite ari byiza. Bakaba bakubwira ko uba ugomba kwishyura amadorari igihumbi n'ijana ku kwezi.

Akabati keza ko kubika insanganyamashusho, inzu nziza iherereye kibagabaga mu mujyi wa Kigali urabona ni inzu nziza rwose. Ubona icyumba kirimo intebe nziza aha ngaha bakubwira ko uzajya wishyura amadorari angana n'amafaranga igihumbi na magana atanu buri kwezi.

Ubutaka buba buri ahantu runaka ushobora kubona wakenera kugura ikibanza cyangwa se umutungo utimukanwa uzwi nk'ubutaka, ukaba waza ukahareba wahashima ubundi nawe ukahagura ukubaka ugatura.

Iyingiyi ni inzu nziza wagura iherereye Kabeza mu mujyi wa Kigali, murabona ko ari inzu y'iterambere yubatswe mu buryo bugezweho kandi ifite amarange meza, ibyuma bisa neza, amabati asa neza. Ukaba wayigura amafaranga angana na miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Iki ngiki ni gikoni cyiza cyubatswe ku buryo bugezweho kandi bw'iterambere, izi ngizi aba ari inzu nziza cyane nyaburanga ushobora gusanga mu mujyi wa Kigali, ushobora kuba ari inzu wakodesha ukayibamo wowe n'abawe bose.

Inyubako nziza iherereye Kibagabaga ikaba ari inyubako igurishwa ifitemo ubusaswa bwiza n'ibindi bikoresho byiza byo mu nzu bitandukanye, inzu isize amabara meza wabasha kugura amafaranga angana n'amadorari ibihumbi ijana na mirongo itatu na bitanu.

Iyi ngiyi ni inyubako nziza yubatse ku buryo bugezweho, iki ni igikoni cyayo, ikaba ari inzu iba igurishwa iri mu mujyi wa Kigali, ikaba ihagaze amafaranga angana na miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda, aha ngaha waza ukayigura.

Ni inzu nziza iherereye Kabeza Kigali, tukaba tubona ibikoresho byiza byo mu gikoni bigezweho by'iterambere byo gutekeraho, ibyo gushyuhirizamo amafunguro n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, ukaba waza ukayibamo ukishyurwa amafaranga angana n'amadolari magana atanu mirongo itanu ku kwezi.

Iyi ni nyubako nziza yubatse ku buryo bugezweho, ikunda kwitwa ngo ni ebyiri muri imwe, akaba ari inyubako imwe bakoze ariko bafite ibice bibiri buri wese akaba mu gice kimwe, aha ngaha wishyira amafaranga angana n'ibihumbi magana abiri mirongo itanu ku kwezi.

Iyingiyi ni inzu nziza inzu nini igeretse y'igorofa iherereye Kigali akaba ari inzu wagura hariho igiciro cy'amafaranga angana na miliyoni magana atatu na mirongo itanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Iki ngiki ni ikigo hano kikubwira ngo hano tubafiye serivisi zikurikira, bakora ingendo hagati y'igihugu, inyuma y'igihugu, bagurisha bakanaranga ibinyabiziga amazu ibibanza n'ibindi bikoresho bitandukanye, banakora ibijyanye n'ubwubatsi.

Inzu nziza yubatse ku buryo bugezweho kandi bw'iterambere, ikaba iherereye i Kigali kimironko, ika ifite ibyumba bibiri by'uburyamo, icyumba kimwe cy'ubwiherero, ndetse n'ubwogero, ukaba usabwa kuba wakwishyura amafaranga angana n'ibihumbi magana atatu by'amafaranga y'u Rwanda.

Iyi ngiyi ni inzu nziza, yubatse mu buryo bugezweho bw'iterambere, ifite amabati meza, ifite amadirishya meza, isize amabara meza kandi agezweho y'iterambere; iherereye Kabeza hafi n'umurenge ikaba igurishwa.

Iyi ngiyi ni inzu nziza cyane ikodeshwa iri kanombe, irakubwira ko ifitemo ibyumba bine by'uburyamiro, ndetse n'ibyumba bitatu by'ubwogero cyangwa se n'ubwiherero, aha ngaha ubu baba bakubwira ko ugomba kwishyura amafaranga angana n'ibihumbi magana atanu by'amafaranga y'u rwanda ku kwezi.

Ahangaha turabona inyubako ibi itararangiza kubakwa amacumbi ariko ikodeshwa, iherereye Kigali Kibagabaga. Hakaba harimo ibyumba bibiri by'ubwogero cyangwa se urukarabiro, na none n'ibindi byumba bibiri by'urukarabiro bashobora kuba baribeshye ari ibyo uburyamo. Ukaba wishyura ibihumbi magana atandatu ku kwezi.

Iyi ngiyi ni inyubako nziza cyane yubatse buryo bugezweho bwiza bw'iterambere, inyubako ikaba iherereye Kigali Kimironko, ikaba ari inyubako igurishwa uyikeneye uraza mukavugana mukumvikana ayo bazakwaka.

Iri ngiri ni isoko ryiza ririmo ibintu byinshi bitandukanye ibicuruzwa byiza, ibyo kwambara, ibikapu, imideri, imitako n'ibikinisho by'abana wabagurira bakanezerwa kandi bakishima.

Iri ngiri ni iduka ricuruza imyenda y'ubwoko butandukanye, ibikapu byiza by'abamama, imyenda myiza y'abapapaye, imyenda myiza y'abasore, ibintu byinshi bitandukanye, imiringa, imikufe, aha ngaha ni ho wabisanga.

Iri ngiri n'iduka ryo guhahiramo ibintu byinshigiye bitandukanye, ukaba waza ukagura iby'abana, iby'abantu bakuru, imitako gushyira mu nzu, imitako yo kwambara ahantu hatandukanye; kwambara ku mazo, kwambara mu ijosi, n'ibindi bintu byinshi.

Iri ngiri ni isoko wabasha kuba wahahiramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye byiza byose wakenera, yaba ibirungo byo guteka mu mafunguro, yaba ibyo kunywa bigiye bitandukanye, aha ngaha waza ukahahira bitewe n'icyo ukeneye cyose wakihasanga.

Iringiri ni isoko rinini ryiza ryo guhahiramo ibyo kurya bigiye bitandukanye, hari ibyo bafata nka hano turabona baba barafashe ibijumba bakagenda bagashyira mu ruganda bakabigira mu bundi buryo ubundi bakakuzanira ukagura ukagenda ukarya.

Iyingiyi ni inyubako iri i Remera yitwa Sawa siti ikaba ikorerwamo ibikorwa byinshi bitandukanye yaba gutunganya imisatsi cyangwa se gutunganya uruhu, ibintu bijyanye n'ubwiza byose waba ukeneye.

Aya ngaya ni amaduka agiye atandukanye, acuruza ibintu bigiye bitandukanye, ibikoresho byo mu rugo, amasahani n'ibindi bikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye, hari ibyapa by'amabanki, kugira ngo ukeneye banki nawe age kuyikoresha.

Iringiri ni iduka ricuruza imitako myinshi itandukanye imikufe yo kwambara ku maguru cyangwa se ku maboko imitako yo kumanika mu nzu, ahangaha bacuruza ibikoresho by'ubugeni byinshi bigiye bitandukanye.

Umwe mu bayobozi b'ikigo gitanga ubwishingizi bw'ubuzima ukaba ukeneye ubwishingizi bw'ubuzima bagufasha ubundi ukabona ubwishingizi bw'ubuzima ukagenda ukivuza ugakomeza kugira ubuzima buzira umuze.

Ikingiki ni ikigo gifasha gutanga ubwishingizi bw'ubuzima, ahangaha ukeneye ubwishingizi n'ubwisungane mu kwivuza iki ikigo nicyo ugeraho.

Abangaba ni bamwe mu bakozi bagize ikigo cy'ubwisungane mu kwivuza, ahangaha buri muntu wese w'umunyarwanda agomba kuba afite ikarita cyangwa se afite ubwisungane mu kwivuza kugira ngo bizamufashe.

Iki ngiki ni ikigo cy'ubwishingizi, aha ngaha hariho ejo heza ukabona urupapuro cyangwa se ikigaragaza umuntu wahawe amafaranga yishyurwa, uwishyurwa amazina amafaranga yahawe, ubundi akagenda kuri banki bakamuhereza amafaranga.

Iki ngiki ni ikigo cy'ubwisungane mu kwivuza, iyi ngiyi ni ikarita iba iriho umuntu ugomba kwivuza cyangwa se umunyamuryango, kugira ngo mu gihe agiye ku kigo nderabuzima ayerekane babashe kumuha ubuvuzi.

Abangaba ni bamwe mu bahinzi bashobora kuba bahinga ikawa, kuko ahantu ha begamye igikuta bariho kiriho uburyo bwo gutunganya ikawa mu buryo butandukanye, kwanika ikawa, ku mutsa ikawa, n'ibindi bintu guhunika bitandukanye.

Iyi ngiyi ni ikarita y'ubwisungane, hano tukabona umuntu, ari nimero y'uhagarariye umuryango, iyi ngiyi niyo nimero y'uhagarariye umuryango, tukabona itariki y'amavuko, aho yavukiye, irangamuntu, imyirondoro ye yose.

Iki ngiki ni ikigo gitanga ubwishingizi, aha barakubwira ubwiza ni ubuzima, bakaba bakorera Nyakabanda Kicukiro, uramutse ukeneye ubwishingizi butandukanye wagenda bakabuguhereza.

Iyi ni ikarita y'umunyamuryango y'ubwisungane mu kwivuza, ufite iyi karita ntarembera mu rugo, iyi karita niyo mu Rwanda dukoresha mu gihe tugiye kwivuza ku ngeri zimwe zigiye zitandukanye.

Abaturage baje aha ngaha hashobora kuba ari nko ku ivuriro, hari abasaza n'abandi bakuze bafite impapuro zigiye zitandukanye, bishobora kuba ari ubwisungane mu kwivuza cyangwa se ibindi bintu runaka.

Iki ng'iki ni ikigo cyitwa ejo heza, ahangaha barakubwira umubyeyi aravuga ati:" nzigamira ku bw'ejo hazaza hanjye, n'ejo heza." Wowe se? Aha ngaha iyo bavuze wowe se? ni wowe baba babwira, nawe ushobora kuzigamira ku bw'ejo hazaza hawe.

Iri ngiri ni isoko rinini ryiza ririmo ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye ukeneye kugura ibyo kurya by'ubwoko bwose, ibyo kunywa by'ubwoko bwose aha ngaha waza nta kintu wahabura byose wabihasanga ubundi ugahaha.

Iri ngiri ni iduka ryiza rinini kandi rigari, wahahiramo ibintu byinshi bitandukanye, ibikoresho byo mu nzu, ibikoresho bigufasha gukonjesha ibyo kunywa, bigufasha kubika ibyo kurya, ibyo kurya by'amoko atandukanye, ibyo kunywa n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye hano habihasanga.

Ni mu isoko wahahiramo ibintu byinshi bitandukanye, amoko menshi y'imbuto wakifuza kuba wagura, aha ngaha wahaza ukahahira, ubundi ibintu bikagenda neza, ukagenda mu rugo rwawe ugateka ubundi ukizihirwa.

Ibi ngi ni isoko ryo guhahiramo ingeri z'abantu batandukanye; waba uri umunyamahanga cyangwa se uri umunyarwanda waza ugahahiramo, habamo ibintu byinshi bitandukanye ibyo kurya by'amoko menshi wakwifashisha.

Iringiri ni iduka rinini wahahira ibintu byinshi bitandukanye, iri ni iduka waza ugasangamo ibyo kurya by'amoko yose. Abantu bakunda inyama nazo ziba zirimo, ibirungo by'amoko atandukanye, ibyo kurya n'ibyo kunywa.

Ni isoko rinini kandi ryiza ryo guhahiramo ibintu bigiye bitandukanye, ibirungo by'ubwoko bwose ibintu byo guteka byiza tukabona n'umuntu urimuraha afite agakapu nawe kanditswe n'amagambo meza; muntu nkunda ba iruhande rwanjye dukeneye abandi bantu bameze nkawe kuri iyi si.

Ahangaha haba hari kubera ubuhahirane mu isoko ririmo ibintu byinshi bitandukanye ibyo kurya, ibyo kunywa, amata n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Ahangaha abari bamaze guhaha uraza ukabyereka umuyobozi ubishinzwe akakubarira ubundi ukishyura akaguha inyemezabwishyu ubundi ugataha.

Iri ngiri ni isoko rinini cyane, aha ngaha tureba ni umwanya wa cyenda, haba hari n'indi myanya myinshi igiye itandukanye, iri ni isoko ushobora gusangamo ibintu ibyo kunywa by'ubwoko bwose, ibintu byo kurya by'ubwoko bwose, bitewe n'icyo ukeneye guhaha waza ugahaha, amavuta y'ubwoko bwose n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye.

Iringiri ni iduka ryiza, rinini, wasangamo ibintu byinshi bitandukanye, wasangamo ubwoko bw'inyama, ubwoko bw'ibyo mu mazi, ubwoko bw'imitobe, ubwoko bw'amafu, ubwoko bwinshi butandukanye.

Aha ngaha ni ahantu baza guhahira ibintu byinshi bitandukanye, nk'ibishyimbo, imbuto zigiye zitandukanye, nk'imineke, inanasi, aha ngaha uramutse ukeneye kurya, ukarya neza ibiryo by'intungamubiri, waza ukahahira ibintu byiza.

Iringiri ni isoko ririmo ibintu byinshi bitandukanye, amavuta y'ubwoko bwose, ibihingwa bagenda bagacisha mu nganda bakabigarura byabaye ibindi, bikaryoha, bikongera intungamubiri n'ibindi bintu byo kurya byinshi bitandukanye.

Iri ngiri ni isoko rinini ryo guhahiramo ibintu byinshi bitandukanye by'ubwoko bwose, ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, amavuta y'ubwoko butandukanye, ibikinisho by'abana, ibikoresho byo mu nzu bindi bisanzwe.

Iringibi ni isoko rinini byo guhahiramo ibintu byinshi bitandukanye ibyo kurya by'ubwoko bwose, iby'ibimera, ibyaciye mu nganda n'ibindi bigiye bitandukanye.

Iri ni iduka ryiza ririmo isuku ihagije, ririmo ububiko bw'ibinyobwa bukonjesha ibinyobwa ku rwego rwiza kandi ruhagije, imitobe y'imbuto iryoshye, imitobe y'ibindi bidasanzwe, uhaha imiceri n'ibindi biribwa byinshi bitandukanye.

Iri ngiri ni iduka rinini cyane ririmo n'ibintu byinshi murabibona, ukeneye kugura ibintu ibisembuye, ibidasembuye, ibinyobwa biryoshye, imitobe ndetse iba ikoze mu mafarini, ibintu byinshi byo kurya, aha ngaha waza ukahahahira ukabonamo ibyo ukeneye byose.

Iri ngiri ni isoko wahahiramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ushobora kuba waza ukagura ibyo kurya by'ubwoko bwose butandukanye, ni ibintu byinshi wabasha kuza ukahagurira, ubundi nawe ukagenda ugateka.

Iringiri ni isoko ryagutse rinini cyane waguriramo ibikoresho bitandukanye byinshi cyane ndetse n'ubwoko bwinshi bushoboka bw'ibyokurya waba ushaka inyama waba ushaka ibirungo byo kuzitekesha n'ibindi byokurya bitandukanye ,kugura ibikoresho by'abana ibikinisho waza ugahaha .